Abantu bacunga umutekano bambaye iniforome zabugenewe, bifashisha bari mu kazi kabo, kugira ngo barinde umutekano w'abaturage, maze bamererwe neza cyane, n'igihugu gitere imbere, babone n'amafaranga yo kwifashisha.

Ni imodoka ya polisi ishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, hari inzu imeze neza, ikoze neza, hari isuku.

Umusekiririte wambaye imyenda yabugenewe ucunga ibikorwaremezo by'abaturage n'ibintu byabo, ibiti bitanga umwuka bahumeka, ubusitani bwiza cyane abantu baruhukiramo maze bakamererwa neza.

Umupolisi wambaye imyenda yabugenewe, imodoka bifashisha abari mu kazi, imbwa yatojwe neza cyane bifashisha bari gucunga umutekano igacukumbura ibintu bitandukanye.

Imodoka bajyanye muri kontorore, kugira ngo barebe ko nta bibazo zifite maze zijye mu muhanda gukora babone amafaranga yo kwifashisha.

Abantu bicaye neza cyane bambaye neza. Harimo n'inzego z'umutekano zishinzwe kurinda umutekano w'abaturage, kugira ngo bamererwe neza cyane, bajye mu mirimo yabo nta cyo bikanga, bityo biteze imbere bateze n'Igihugu cyabo imbere.

Ubwato bw'abapolisi bwabugenewe, bifashisha bari mu mirimo yabo yo gucunga umutekano, mu gihe hari abaguye mu mazi bakambara imyenda yabugenewe bari kujya kubarohora.

Umupolisi wambaye imyenda yabugenewe uri mu kazi ashinzwe ko gucunga umutekano w'abaturage maze bakabona amahoro, maze bagakora imirimo bashinzwe nta kibazo bafite, bakiteza imbere n'igihugu cyabo.

Gaze bifashisha bari guteka n'isafuriya batekamo ,na kizimyamoto bazimisha umuriro igihe habayeho inkongi ,maze bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Abaturage bicaye neza n'abayobozi babakuriye n'abashinzwe umutekano, bari kubaganiriza ku bintu binyuranye kugira ngo umutekano uboneke mu gace barimo bagire ubuzima bwiza.

Abaturage bambaye neza cyane, bicaye neza batuje, bari kumva icyo abayobozi bari kubagezaho, maze bagatanga ibitekerezo bigiye bitandukanye kugira ngo bafate imyanzuro.

Inzu ikorerwamo inama, ifite ibikoresho bitandukanye bifashisha intebe zo kwicaraho n'ameza bandikiraho , amazi yo kunywa na camera bifashisha bari gufata amashusho , maze bakaganira ku byabateza imbere.

Abantu bicaye neza bambaye neza cyane bitonze bategereje kumva icyo abayobozi babagezaho, maze bagatanga ibitekerezo bitandukanye kuri izo ngingo barigaho.

Inzu ikorerwamo inama n’intebe abantu bicaraho n'ameza， maze bagatanga ibitekerezo bitandukanye，maze bakunguka ubumenyi bityo bagafata ibyemezo bibafasha kwiteza imbere.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku bakoreramo inama. Intebe nziza cyane bicaraho. Abaturage bambaye neza cyane bari gutanga ibitekerezo byiza cyane bitandukanye bityo bakiteza imbere.

Umutemeri w'icyibo bifashisha bari gupfundikira icyibo kugira ngo batware ibintu neza cyane.

Abantu bambaye neza cyane bari kugendera mu muhanda bikoreye ibiseke, bafite amafanta banywa hari imodoka ziparitse zibatwara bagiye mu bukwe maze bakanywa ,bakarya, bakishima cyane.

Itorero ry'ababyinnyi babyina ibya kinyarwanda, bafite ingoma n'imirishyo, n'idarapo, bari gushyayaya neza cyane, barishimye.

Intore zihamiriza, zifite imyenda ya gitore n'ingabo n'amacumu bifashisha bari kubyina maze bakishima, bakagorora ingingo z'umubiri, bakamererwa neza.

Inka zimeze neza cyane zishishe zigiye gushoka, ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka.

Umuduri bakoresha bari gucuranga ibihangano bitandukanye kugira ngo biryohere, amatwi y'abari kubyumva maze basusuruke bishime.

Inzu y'ubukorikori ikorerwamo ibikoresho bya gakondo, biva mu mugano, intebe n'ameza bicaraho, bakajya kubigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha, andi bakayajyana muri banki bakiteza imbere.

Inyambo zitaweho neza cyane, zimeze neza zishishe, zifite ubwatsi bwiza zirisha, umubyinnyi uri kubyina nk'inyambo maze akishima cyane, ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka.

Abaturage bose bafite imiheha bari gusangirira mu kibindi kimwe icyo kunywa, bose barishimye baranezerewe baryohewe.

Ababyinnyi bambaye neza, bafite uduseke ku mutwe, abandi bateze urugori, hari abantu benshi babashagaye baje kubareba, inyuma yabo hari imisozi iteyeho ibiti.

Inzu icururizwamo ibikoresho by'ubukorikori bitandukanye utwibo batwazamo, n'uduparato bashyiraho imbuto.

Umuvure bakoresha bari gukama umutobe bakengamo inzoga, n'ingobyi bahekamo abarwayi n'igisabo bacundiramo amata n'isekuru basekuriramo ubugari n'ibindi.

Urusyo rwa kinyarwanda bifashisha bari gusya ifu kugira ngo babone umutsima wo guteka, maze bajye kuwuteka bawurye bagire amagara mazima, maze babone n'imbaraga zo kujya gukora ibindi.

Ingobyi bahekamo abagwayi, maze bakabajyana kwa muganga, bityo bigatuma babavura neza cyane, ntibarembere mu rugo, maze bakagira amagara mazima, bakiteza imbere.

Isekuru n'umuhini bifashisha bari gusekura imyumbati n'isombe, umuvure bifashisha bari gukama ibitoki, hakavamo umutobe bagakuramo n'inzoga banywa bakishima cyane, bakabona n'amafaranga.

Umumama uri kuboha igiseke bifashisha bari gutwaramo ibishyimbo, ibigori, n'amasaka n'ibindi.

Abaturage bishimye, bambaye neza, bari mu murima w'urutok,i harimo umuvure, barimo gukama umutobe.

Uducuma duteretse ku musambi . Harimo n'imiseke bifashisha bari kunywa ,maze bakizihirwa ,bakanezererwa cyane ,bakagubwa neza.

Ni ababyinnyi bambaye imyenda ya gitore, hari ingoma inyuma yabo, hari amapoto y'umuriro w'amashanyarazi inyuma yabo hari ibiti.

Isogi imeze neza cyane. Abantu bifashisha bari kuvura uburwayi butandukanye bw'abantu, maze bagakira bakamererwa neza cyane. Iyindi bakayijyana mu rugo bakajya kuyiteka maze bakayirya.

Abaturage bari gusibura imiferege y'amazi, kugirango idatwara ubutaka bahingamo imyaka yo kurya.

Isekuru n'umuhini，bifashisha bari gusekura imyumbati，maze hakavamo ifu y'ubugari bateka， maze bakarya， iyindi bakayijyana kuyigurisha， bakabona amafaranga， yo kugura ibindi bakeneye， maze bakishima cyane.

Itazi bifashisha mu bintu bitandukanye, nko kuyishyira ku myaka bahinga kugira ngo imyaka yere neza cyane, irindi bakaryinikisha amasaka, kugira ngo havemo ubushera banywa, maze bakanywa bakagira ubuzima bwiza.

Intebe n'ameza byo kwicaramo ,umubyinnyi wambaye imyenda yabugenewe uri kubyina yikoreye agaseke, ari gushimisha abantu maze bakishima cyane bakagira umunezero ,bakamuha amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye.

Intore ziriguhamiriza zifite amacumu zambaye imyenda yabugenewe zirigushimisha abantu batandukanye.

Isekuru bifashisha bari gusekura ubugari bajya guteka, n'urutoki, n'ibigori, n'amateke ari mu murima ameze neza.

Inkono za kinyarwanda bifashishaga bari gutekamo ibiryo, maze bigashya bakabirya biryoshye cyane, maze bakagira imbaraga zo kujya gukora, maze bakiteza imbere.

Ni ababyinnyi bambaye impuzankano bari k'umurongo amaboko yabo arazamuye bateze urugori mu mutwe barimo guseka.

Abantu bambaye neza bicaye neza batuje bishimye, bafite uducuma mu ntoki zabo bari ahantu hasa neza.

Igikoresho gitanga umuriro w'amashanyarazi, bityo bikadufasha mu mirimo yacu itandukanye nko gusya imyaka kubona amakuru ku gihe no gucaginga amaterefone yacu, maze bikadufasha kwiteza imbere byoroshye.

Itara bifashisha bari gucana maze bakabona bityo bikabarinda kugenda mu mwijima, bakabaho bishimye banezerewe cyane.

Isaha bifashisha bari kureba igihe, kugira ngo badakererwa maze bigatuma babona amafaranga, kubera baba bakoze akazi kabo ku gihe batakererewe.

Inzu ikoze neza cyane, ifite ibikoresho byabugenewe by'umuriro, amapoto atanga umuriro w'amashanyarazi bifashisha bari gucana, maze bakareba amakuru yo hirya no hino ku isi bakiteza imbere.

Imashini bifashisha bari kureba amakuru atandukanye hirya no hino ku isi, kugira ngo bamenye uko isi iteye maze bajyane n'iterambere.

Inzu imeze neza ikoze neza ifite isuku, harimo ibitanda byiza bisashe neza bakiriraho abarwayi ngo babavure.

Inzu zubatswe neza cyane zifite ibikorwaremezo bitandukanye harimo amashanyarazi bifashisha bari gucanan' imihanda abantu bagenderamo, bikabafasha no gutwara imizigo yabo ku isoko bakabona amafaranga yo gukoresha.

Ni urusengero, harimo imodoka ziparitsemo imbere, inyuma hari akazu ka ejenti ka MTN, hari umuriro w'amashanyarazi.

Urusengero abaturage bajya gusengeramo rukoze neza cyane, rufite isuku, rufite ibigega bifata amazi bakoresha bari gukora amasuku, ibiti bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, n'ubusitani bwiza cyane abakirisitu baruhukiramo.

Umuhanda imodoka zigenderamo n'ibiti bitangaga umwuka mwiza wo guhumeka, n' ibicanwa bifashisha bari guteka ibiryo maze bigashya bakarya, n'ibindi bakabigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Inzu ikozwe neza icururizwamo ikawa. Parikingi baparikamo imodoka ,ubusitani bwiza n'ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka.

Urusengero rumeze neza, rufite isuku, hari igiti kirukikije, inyuma y'urusengero hari ibicu bifite amabara meza.

Inzu ikorerwamo serivisi z'ubwishingizi, abantu bakoresha bari kwivuza kugira ngo bagire amagara mazima. Ikijekani bavomesha amazi kugira ngo bayakoreshe mu isuku.

Inzu zikozwe neza cyane, ubusitani bumeze neza cyane, n'ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka maze bakanabicana bagateka ibiryo bigashya maze bakiteza imbere.

Inzu nziza cyane igeretse, bari kubaka ahantu heza cyane kugira ngo bajye bayikoreramo ibintu bitandukanye, maze itange umusaruro babone amafaranga yo kwifashisha mu bindi ,ayandi bayajyane muri Banki biteze imbere, n'ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Isoko rikoze neza cyane， rifite isuku， ibikoresho bihagije，abantu bifashisha bari gucuruza， ibiti bitanga umwuka， abantu bahumeka.

Urusengero rwubatswe neza cyane rufite isuku abantu bajya gusengeramo, ubusitani bwiza cyane baruhukiramo, ibiti bitanga umwuka wo guhumeka n'ikigega gitanga amazi bifashisha ku rusengero.

Ni inzu nziza cyane iri kuri kaburimbo hari umuriro w'amashanyarazi, hari imodoka iri muri kaburimbo hakaba hari ubusitani hafi y'iyo nzu.

Inzu ikozwe neza cyane bavuriramo abarwayi, maze bakamererwa neza bagakira, bagasubira mu buzima busanzwe bakiteza imbere, ibiti bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ikigo cy'urubyiruko cyubatse neza cyane， amazi bifashisha bari koga， bari no gukora amasuku atandukanye，ibiti bitanga umwuka wo guhumeka， n'ubusitani bwiza cyane， baruhukiraho.

Abanyeshuri bambaye neza bahagaze neza ku rusengero. Abandi bari mu muhanda hirya yaho hari igiti.

Ni umusigati wo gusengeramo, hari inyenyeri n'ukwezi bishushanyijeho hari ibidomoro biri inyuma y'igipangu, hari umuriro w'amashanyarazi hari izu z'ubucuruzi ziri hirya, hatanditseho matela hanze.

Ikiraro cyiza cyane gikozwe neza, abaturage bifashisha bari kukigenderaho, bakakifashisha bari gutwara imyaka yabo bari kuyigeza ku masoko, bityo bikabafasha kwiteza imbere, n'ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Hari ubusitani bwiza cyane, hari amatara ku mihanda, hari kaburimbo nziza harimo abamotari, harimo abatwaye imodoka n'abandi bari kugenda n'amaguru.

Amazu akoze neza ,yo guturamo n'amashanyarazi n'imihanda ,abantu bagendamo bagiye gushakisha ubuzima ,bakageza n'ibintu iyo bagiye biboroheye.

Urusengero basengeramo maze bakagaburira roho zabo. Bakagira ibyiringiro by'ejo hazaza.

Inzu ikozwe neza cyane harimo ibikoresho bifashisha kwa muganga bari kuvura abarwayi, bari kureba uko bameze, maze bakabasuzuma neza cyane, barangiza bakabaha imiti bagakira, bagataha.

Abantu bambaye neza bicaye neza baje gusenga, ubusitani bwiza cyane ,ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Inzu nziza cyane n'umuhanda abantu bagendamo, n'ubusitani bumeze neza, n'ibiti bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Abaturage bambaye neza baje mu nama, bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bikemurwe ,hari ibiti bibakikije bibaha umwuka mwiza barimo guhumeka.

Inteko z'abaturage bakemuriramo ibibazo bitandukanye, bityo bakabaho bishimye banezerewe nta bindi bibazo bafite, batuje, batekanye, bityo bagateza imbere igihugu n'agace batuyemo, na bo bakamererwa neza cyane.

Abaturage baje mu nteko rusange bicaye neza cyane, aho batanga ibibazo bafite n'ibitekerezo byabo maze bigakemuka, bityo bakagira ubuzima bwiza cyane bagateza n'igihugu cyabo imbere.

Abaturage bambaye neza cyane bicaye neza, bari mu nteko. Bari gutanga ibitekerezo bitandukanye kugira ngo ibibazo byabo bikemurwe maze babeho neza bishimiye cyane. Ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Abaturage bitabiriye inama, bambaye imyenda myiza, bicaye ku ntebe nziza cyane, kugira ngo batange ibibazo byabo, bityo bishakirwe umuti, maze batahe bishimye cyane babeho banezerewe.

Abantu bafite ibikoresho by'ubukorikori bitandukanye bifashisha bari kubikamo ibintu bitandukanye, barishimye cyane, bambaye neza, babona amafaranga avuye mu bukorikori.

Abaturage bitabiriye inteko， bicaye neza cyane， bambaye neza， bari gutanga ibibazo bitandukanye， kugira ngo bikemurwe， bityo babeho neza cyane bishimye. Ibiti bitanga umwuka mwiza wo guhumeka.

Moto zifashishwa bari gutwara ibintu bitandukanye, imizigo, ndetse bagatwaraho n'abantu, bityo bakagera iyo bagiye bihuse vuba, maze nabo bakabona amafaranga yo kwifashisha bakiteza imbere.

Imodoka zifashishwa mu gutwara abagenzi zikabageza iyo bagiye neza cyane, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, n'ubusitani bwiza cyane butuma babona umwuka wo guhumeka neza.

Moto abantu bifashisha bagiye ahantu hatandukanye, n'abamotari bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo byabo. Maze n'abantu bakishimira serivisi babaha.

Moto na kasike abamotari bakoresha, bari gutwara abagenzi bakabageza mu bice bitandukanye biboroheye, maze bakabona amafaranga yo gutunga imiryango yabo ,n'abandi bakajya gusura bagenzi babo ,bakagera no mu kazi biboroheye.

Inzu ziri kuri kaburimbo zimeze neza hari icyapa, hari imodoka iparitse, hari igiti giteyeho, hari puberi ifite amabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abamotari batwara abagenzi kuri moto, bari guhabwa amabwiriza n'abapolisi yo kugenda neza mu muhanda, kugira ngo barinde ubuzima bwabo n'ubw'abo batwaye bityo tugire amagara mazima igihugu gitere imbere.

Umuhanda ukoze neza, umeze neza, harimo imodoka amamoto harimo amapave kuruhande, hari n'ibiti bikikije umuhanda.

Imihanda ikozwe neza cyane abantu bagenderamo, imodoka bifashisha bari kujya iyo bagiye, maze bakagerayo vuba, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Imodoka zitwara ibicuruzwa bitandukanye, byifashishwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi n'abashoferi bakabona amafaranga yo kubatunga.

Imodoka ni nziza, isa neza, ifite amabara meza, iri kugenda muri kaburimbo, hari ibiti iruhande rwayo, hari igicu gisa neza, gifite amabara y'ubururu n'umweru.

Igare rimeze neza, riraparitse, risa neza, inyuma yaryo hari urupangu rwamabuye, rugeretseho amatafari.

Imodoka irimo kugenda muri kaburimbo. Hari icyapa, hariho inzu, hari insinga z'amashanyarazi zinyuze hejuru y'inzu. Hari ibiti biri inyuma y'inzu.

Igikoresho cyabugenewe bifashisha bari gutwara ibintu bitandukanye，umuhanda abantu bagenderamo，abakarani bikorera imifuka， kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha，maze biteze imbere.

Imodoka zitwara abagenzi zikabajyana iyo bagiye, umuhanda w' abantu bagenderamo n'ibiti bitanga umwuka mwiza wo guhumeka, ll n'amashanyarazi bakoresha mu buzima bwa buri munsi bityo bikabafasha kwiteza imbere bakabona ibyo bakeneye neza.

Ikibuga cy'indege cyifashishwa mu ngendo zitandukanye. Iz'abantu no gutwara ibintu bityo bikagera iyo bigiye vuba maze bakiteza imbere.

Imodoka iri muri kaburimbo hari abaturage bategereje kuyinjiramo hari na moto iri mu muhanda hari ibiti biteye kuri kaburimbo hari n'amazu ahakikije.

Imodoka nziza cyane abantu bifashisha mu ngendo zitandukanye, bagiye ahantu hatandukanye, maze bakagera ku kazi kabo hakiri kare, bagakora neza cyane maze bigatanga umusaruro bakiteza imbere n'igihugu cyabo.

Moto abantu bagendaho bikaborohereza kugera iyo bagiye neza, abamotari na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha kugira ngo biteze imbere. Umuhanda wa kaburimbo ukoze neza, n'akazu gacururizwamo amafaranga n'amayinite n'ibase bakoresha bari gukaraba.

Imodoka zitwara abagenzi，zikabajyana mu bice bitandukanye bagiyemo，maze bakagerayo neza，nabo bakabona amafaranga yo kwifashisha，abacuruzi bacuruza ibyo kurya bitandukanye，amabiswi， amazi n'amaji，barya maze bakamererwa neza cyane.

Abamotari bambaye imyenda yabugenewe bafite moto zisa neza cyane zitwara abaturage, maze zikabageza iyo bagiye neza cyane, maze na bo bakabona amafaranga yo kwifashisha.

Moto bifashisha bari gutwara ibintu bitandukanye, kugira ngo babone amafaranga yo kubafasha mu buzima bwa buri munsi batere imbere, maze babeho neza.

Imodoka bari gupakiramo ibitoki abantu barya na moto ziparitse mu muhanda, n'aba egenti bari gucuruza ama inite no gutanga amafaranga abantu bifashisha.

Ikibuga bakiniramo, umukino wa tenisi bityo bakagira amagara mazima, bakabona n'amafaranga abafasha, mu buzima bwa buri munsi maze bakiteza imbere.

Abakinnyi bafite imbaraga, bari guhatana kugira ngo batsinde, bishime, maze babone imidari myinshi cyane.

Ikibuga bakiniramo umupira w'amaguru, abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe barimo barakotana kugira ngo babone insinzi maze bishime bashimishe n'abafana babo bityo bibafashe kubona amafaranga bakeneye.

Umukinnyi ukora imyitozo zabugenewe, kugira ngo agire amagara mazima, bityo bimufashe kwiteza imbere nta burwayi afite, abone amafaranga yo kwifashisha, maze yiteze imbere.

Umukinnyi wambaye imyenda yabugenew, uri mu masiganwa yo gusiganwa ku magare. Afite igare ryiza cyane n'imyenda zabugenewe. Ari kugenda muri kaburimbo nziza cyane n'ubusitani bwiza cyane.

Ikibuga bitorezamo umukino wa basiketi maze bikabafasha kuba intyoza muri uwo mukino, bakabona amafaranga yo gukoresha mu buzima bwa buri munsi, bakagira n'amagara mazima azira uburwayi.

Ni abantu bishimye, harimo ikipe yambaye iniforume, bari kuri podiyumu, inyuma yabo hari indabo, hari ibiti, hari n'amabati.

Pisine abantu bajya kogeramo， maze bakananuka imitsi，bakamererwa neza cyane， bikabarinda uburwayi， n'ibiti bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka， n'ubusitani bwiza cyane baruhukiramo.

Ikibuga gikoze neza cyane, urubyiruko rukoreraho imyitozo, bityo bakagira ubuzima bwiza n'amagara mazima, bikabafasha kwiteza imbere nta burwayi bafite, bagateza n'imbere igihugu cyabo.

Abantu bari mu myitozo ngororamubiri bambaye imyenda yabugenewe bakoresha siporo kugira ngo bagire amagara mazima, bibarinde uburwayi, maze babeho neza cyane ,bajye gushakisha imirimo yo gukora nta kibazo bafite.

Ikibuga bakiniramo umupira kimeze neza, n'abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe bari guhatana kugira ngo babone intsinzi bishime cyane.

Ikibuga bakiniraho tenisi bari gukora imyitozo ngororangingo kugira ngo bagire ubuzima bwiza bibarinde kurwaragurika.

Umukinnyi wambaye imyenda yabugenewe uri gukina basikete maze agatanga ibyishimo kubantu baje kumureba, akabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi

Sitade bakiniramo intebe nziza cyane bicaramo, n'abakinnyi bambaye imyenda yabugenewe bari gukotana kugira ngo babone intsinzi, maze bishime cyane babone n'amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umukinnyi wambaye neza cyane, ufite igare ryiza n'ingofero bambara kugira ngo ibarinde kwangirika ku mutwe, maze batware nta mpungenge bafite.

Ikibuga bakiniramo imikino, abakinnyi bambaye iniforume zabugenewe bari guhatana kugira ngo babone insinzi, bishime bashimishe n'abafana baje kubareba, maze babone insinzi maze babone amafaranga yo gukoresha maze biteze imbere.

Umupira wa voreboro bifashisha bari gukina vore, maze bikabafasha kugorora ingingo zabo, bikabarinda uburwayi, bakajya mu mirimo yabo bameze neza, bityo bikabafasha kwiteza imbere.

Abakinnyi bari gukina umupira wa tenisi, bari mu kibuga cyabugenewe, bari gukina neza kugirango babone intsinzi maze babone amafaranga yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi, maze bagire n'amagara mazima azira umuze.

Inzu y'imyidagaduro bakiniramo umupira wa volebolo, intebe nziza bicaramo abakinnyi bambaye iniforume zabugenewe, bari gukotana kugira ngo babone intsinzi maze bishime cyane.

Ni abakinnyi bari mu isiganwa ry'amagare, bambaye impuzankano, bafite amagare meza, bambaye kasike z'ubwirinzi, hari abaturage baje kubareba.

Ni abanyeshuri bambaye impuzankano bari mu mikino ngororamubiri, barimo barasimbuka urukiramende, hirya yabo hari ibiti bibaha umwuka wo guhumeka.

Abakinnyi bari mu masiganwa yamagare, bambaye iniforume zabugenewe, bafite amagare meza cyane, na casike bambara mu mutwe zibarinda, igihe baguye mumuhanda, maze bakabona amafaranga, yo kwifashisha mu buzima, bwa buri munsi.

Ni abakinnyi b'amagare bari mu masiganwa. Imihanda irakoze, imeze neza. Hari abaturage bikoreye inkwi, barimo barareba. Ibintu ni byiza. Hari umugabo uri hirya y'umuhanda nawe uhagaze, urimo urareba. Abakinnyi bambaye imyenda y'amasiganwa, bafite amagare ameze neza, bambaye na kasike.

Ikipe y'umupira w'amaguru bambaye imyenda yabugenewe ,n'amazamu batsindiramo, n'abafana baje kubareba ,kugira ngo babone ibyishimo.

Umukinnyi wambaye imyenda yabugenewe, ufite ibikoresho bifashisha bari gukina Tenisi, kugira ngo abone insinzi, maze abone amafaranga yo gukoresha, maze yizigamire abone iterambere.

Ni stade harimo abantu benshi bambaye neza, bicaye neza, hari ikipe yambaye iniforume bambaye imidari, barishinye batwaye igikombe.

Umuhanda abaturage bagenderamo, bakawifashisha bari kugeza imyaka yabo aho bayicururiza. Maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye. Bakabona n'ayo kujyana kuri banki maze bakiteza imbere.

Mu muhanda abantu bagendaderamo, ubusitani buteye bumeze neza cyane, n'ibiti bitanga umwuka abantu bahumeka, n'intsinga z'amashanyarazi zitanga umuriro abantu bacana, maze bakagenda nta bwoba bafite hari kubona.

Ni abantu bari kuri moto n'undi muntu ufite igare mu ntoki. Hari ibipangu k'uruhande, hari insina hari umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda abantu bagenderamo, bakawifashisha bari kugeza ibicuruzwa byabo ku isoko biboroheye, maze bakajya kubicuruza bakabona amafaranga, yo kwifashisha mu bindi bitandukanye maze bakiteza imbere.

Ni umuntu uhagaze hepfo y'umuhanda afite ibijerekani hari abandi bantu bari muri kaburimbo, harimo moto harimo amazu yubucuruzi hariho n'umuriro wamashanyarazi.